Umwana w'umuhungu wambaye ingofero y'umukara, wambaye bote zikigina, uhetse icyuma cyagenewe gutera umuti mu myaka, icyuma kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo, bikaba bigaragara ko ashobora kuba ari gutera umuti mumashu.

Ubu n'ubuhinzi bw'umuceri uyu muntu n'umuhinzi arimo aratera umuti wica udukoko tuba twaje kwangiza umuceri ibi bifasha kongera umusaruro w'umuceri ukiyongera kuko iyo utu dukoko tugumye tukarya umuceri umusaruro uragabanuka cyane ugasanga umuhinzi arahombye.

Umugabo uhagaze mu gishanga cy'umuceri mu ntoki ufashe umupira bigaragara ko ari wo bashobora bifashisha buhira uwo muceri, umuceri bikaba ari umuceri mwiza ugaragara neza ugeze mugihe cyo kuraba, umugabo akaba yambaye imyenda y'umweru n'umukara n'ingofero n'agapfukamunwa.

Abagabo babiri bambaye ibisarubeti, bahetse ibyuma bitera umuti mu bihingwa, bakaba bagaragara nk'abari gutera umuti mu bigori, imbere yabo hakaba hari abandi bagaragara nk'abari gukora muri ibyo bigori, ibyo bigori bikaba biteye ahantu mu kibaya, hakurya yabyo hari ishyamba ririmo ibiti bigaragara neza by'icyatsi.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane bwo gufasha umuhinzi wo kwiteza imbere, twavuga nko guhinga imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye. Aho usanga iyo myaka yafatwa n'udukoko, noneho igaterwa imiti ibasha kutwica.

Umushakashatsi wambaye uturindantoki ufite mu kiganza ke agakombe karimo urubuto rwameze akaba ari kurusukaho ibintu bigaragara nk'aho ari ibyafasha icyo gihingwa gukura, imbere hakaba hari ibindi bikombe birimo urubuto nk'urwo afite mu ntoki.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umuhinzi mu kwiteza imbere, akabasha kubona ikimutunga ndetse agasagurira n'amasoko. Twavuga nko guhinga ibigori, ingano ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Aho usanga hari inyamaswa zibyataka, zikabyangiza ariko hari imiti imwe na imwe yica udukoko, tuba dushaka kwangiza iyo myaka.

Amacupa ateretse muri etageri, ayo macupa akaba ari mu bipimo bigiye bitandukanye, harimo amacupa manini, amatoya, bigaragara ko harimo imiti y'ubwoko butandukanye, harimo iyo bifashisha bakora amasuku, habakabamo iyo bifashisha babika imyaka mu buryo bugiye butandukanye, bikaba biri muri etajeri y'i icyayi.

Ibyuzi by'amafi byubatse mu buryo bwa kijyambere, muri ibyo byuzi hejuru hubatse utuzu bigaragara ko hashobora kuba ari utuzu tubamo inkwavu, ibyo byuzi bikaba bikikijwe n'ibyatsi bigaragara neza ko bitohagiye, hakurya y'ibyo byuzi hakaba hari umusozi uteyeho ishyamba.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umworozi mu kwiteza imbere. Ubworozi twavugamo korora amatungo magufi amaremare, ndetse n'ubworozi bw'amafi aho usanga abaturage barihangiye bakorora amafi, noneho bakayagaburira abaturage, bakabasha kubona indyo yuzuye.

Umurobyi w'amafi, ugaze mu kiyaga, bigaragara ko indobani ye ishobora kuba yafashe amafi, agera kuri atanu, uwo murobyi akaba yambaye umupira w'umutuku, ahantu ari hakaba hari ibiyaga cyangwa se ibyuzi, bigaragara ko byubakiye mu buryo busa nkaho ari ubwa gihanga.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane kubera ko ufasha abaturage gutera imbere ,muri bwo twavuga ubworozi bw'inkoko, ubworozi bwo korora amafi kugira abantu babashe kubona ibikomoka ku matungo birinda imirire mibi.

Umwurozi w'amafi bigaragara ko ari kuroba, akaba ahahagaze mu cyuzi yafashe ifi rinini cyane, akaboko kamwe uyu mwurozi akaba yambaye umwenda wabugenewe, usa nk'ibara ry'ikigina, akaba yambaye umupira w'ubururu, akaba ari mu mazi bigaragara ko ayahagazemo.

Inzu iri ahantu hayonyine, ikikijwe n'ibiti, imibyare. Imbere yayo hakaba hari ikiyaga. Abantu bashobora kuzamo bakoga cyangwa hakaba hakororerwamo amafi. Abantu bashobora kwifashisha barya. Hasi aho ngaho hakaba bazengurutswe n'ibyatsi by'icyatsi.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane twavuga nko guhinga; ibirayi ,ibijumba, ikawa ,ndetse n'ubunyobwa, hari ibihingwa bihingwa noneho bikoherezwa mu inganda bigatunywa, twavuga nk'ikawa irahingwa ikoherezwa mu ruganda ,noneho rukayitunganya ikatugarukira.

Iyi ni ikawa ihindwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko isanga nta nganda ziyitunganya ikoherezwa hanze bakayitunganya ikagaruka mu Rwanda imeze neza.

Ikawa bigaragara ko yeze neza, yitaweho, yakorewe. Iyo kawa icyo giti k'ikawa kikaba kiriho ikawa, izeze, zahishije zabaye umutuku. Izindi zikaba zishaka kwera zikaba ziri mu ibara ry'icyatsi kijya kuba umuhondo.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane, aho usanga hari ibihingwa abahinzi bahinga bifasha abaturage mu kwiteza imbere. Hari ibihingwa bibasha koherezwa mu nganda bigatunganywa, hari n'ibihingwa abaturage basarura bidasaba ko babanza kubyohereza mu nganda babitunganye. Ibyo bihingwa byoherezwa hanze twavugamo icyayi ndetse n'ikawa.

Abantu bakoraniye mu murima, bigaragara ko uwo murima ushobora kuba ari umurima w'icyayi; bikaba bigaragara ko bashobora kuba bari nko gusarura icyo cyayi. Abo bantu bamwe bakaba bambaye imyenda y'ubururu, abandi bambaye iy'umweru, abandi bambaye iy'umukara. Uwo murima w'icyayi bigaragara ko ari umurima mugari.

Ababyeyi bari mu murima ugaragara ko ushobora kuba uteyemo ingano zeze bigaragara ko bashobora kuba bari nko kuzisarura, muri uwo murima haba harimo ibindi byatsi birebireba bigaragara nkaho byari ibyonnyi byari biri muri izo ngano by'icyatsi, ababyeyi bakaba bagaragara bambaye ibitambaro mu mutwe.

Ikawa zeze zihishije zigaragara neza nk'aho zitaweho cyane, izo kawa zikaba ziri kugaragara zose zihishije inyuma hakaba ari kugaragara amababi y'icyatsi, muri izo kawa zimwe muri zo ariko arizo nkeya zikaba zitarahisha zigaragara nk'aho ari ubururu zikaba zifashe ku biti byazo ntabwo barazisoroma.

Ubuhinzi n'igikorwa cyiza cyane kuko gifasha abaturage mu kwiteza imbere bakabona ibyo kurya bakabona amafaranga, akenshi kugira ngo ibyo bihingwa biboneke, usanga abaturage babyitaho cyane umuhinzi akabyitaho ugasanga ari gukuramo ibyatsi biba byaramezemo bitari ngombwa, kugira ngo noneho imyaka ikure neza ibashe kongera umusaruro uruta.

Umubyeyi uri mu gishanga cy'umuceri bigaragara ko ashobora kuba yari kwita kuri uwo muceri awubagarira, hirya ye urebye hakaba hari indi mirima myinshi y'umuceri, nayo irimo abantu bashobora kuba nabo bari kwita ku muceri, wasingiza amaso hirya wareba ukabona imisozi miremire nayo iteyeho ibiti.

Umugabo wambaye igisurubeti cy'umuhondo, ingofero y'ikigina. Mo imbere mu gisisurubeti akaba yambariyemo ikote naryo rijya gusa ikigina. Akaba ahagaze mu murima urimo imbuto zigaragara nk'aho ari icyayi wagira ngo ari gusoroma icyo cyayi. Urebeye hirya hejuru ye ku musozi mu kirere hakaba harimo ibicu byinshi byiganje.

Ibikarito birimo imiti y'amoko atandukanye, ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo ibipimo umuriro, ibyo twifashisha dukaraba mu ntoki, inyuma yabyo hari itara, hakaba hari ibara ry'ikigina, riri inyuma yabyo.

Intebe iteretseho impano ifunze neza, hirya yayo hari umufuka ugaragara nk'aho ujyamo ibiro mirongo itanu, iyo ntebe ikaba ari umweru iteye neza.

Akenshi na kenshi usanga ubuzima bw'abantu bukunze guhura n'ibibazo byinshi, cyangwa se amatungo ugasanga yabuze amaraso mu mubiri amazi yabayemo macye, cyangwa se ugasanga yabuze amavuta. Rero haba hari imiti ifasha mu kongera amaraso mu mubiri amazi mu mubiri, n'ibindi byinshi biba byabuze.

Amakarito y'imiti, ahahagaze ahantu mu kabati, ayo makarito akaba afite amabara atandukanye. Umweru uvanzemo umutuku, hakaba hari n'icupa ry'umuti naryo, rifite ikirangantego cy'umuti uri muri gicupa gifite amabara, ibara ry'umweru, amagambo agaragaza ibiri muri uwo muti yanditse mu ibara ry'umukara.

Imifuka irunze hamwe ifite amabaragi atandukanye, ifite amabara y'icyatsi, umweru, ikaba ishushanyijeho inka nziza cyane y'ikibamba, iyo ni ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara, bikaba bigaragara ko iyo mifuka irimo ibiryo by'amatungo nk'inka, ingurube n'inkoko.

Ubworozi ni umwuga mwiza ufasha abaturage mu kubona ibiryo ndetse no kubona amafaranga. Ariko usanga ubworozi buhura n'imbogamizi, amatunda akarwara ugasanga yatatswe n'ibintu runaka. Niyo mpamvu usanga hari imiti ivura amatungo, ikavura indwara.

Muri iki igihe tugezemo usanga indwara zikunda kwibasira abantu, ugasanga abantu bari kugenda babura amaraso, babura amazi mu mubiri, ariko byaroroshye kuko habonetse imiti yongera amaraso mu mubiri ndetse ikanongera amazi mu mubiri.

Umugore uri guhinga, wambaye ibitenge bifite amabara y'ubururu n'icyatsi, umugore akaba afite umusatsi mwinshi wa kinyarwanda ugaragara neza, akaba ari guhinga ahantu hagaragara nk' aho ari mu gishanga, inyuma ye hakaba hari kugaragara ibicu byiganjemo iby'ubururu, umugore akaba ari guhinga ahantu mu biti by'icyatsi.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umuhinzi mu kwiteza imbere, akabasha kubona amafaranga, akabasha gutunga umuryango, twavuga nko guhinga imbuto, ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ibihingwa biteye mu murima, bigaragarara nk'aho ari mu kibaya, ibyo bihingwa bikaba bikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi kandi ibyo bihingwa bikaba biteye ku murongo, bigaragara ko byakorewe neza byitaweho, bikaba inyuma yabyo hagaragara ikirere gikeye kigaragara neza.

Uyu ni umwuga w'ubuhinzi ukorwa n'abaturage benshi bagize iki gihugu cyacu cy'u rwanda urabona ko barimo guhinga barimo babagarira imyaka bakuramo ibyatsi byameze kugira ngo imyaka isigaye ize gukura neza nta b'indi bimera byo ku ruhande biri gusangira ifumbire n'indi myunyungugu iba mu butaka.

Abantu bateraniye hamwe, bamwe bambaye imyenda y'icyatsi abandi umutuku, abandi ubururu, abandi umukara, abandi umweru. Bigaragara ko bashobora kuba bari mu murima, nko kwiga ibintu bigendanye n'ubuhinzi, bashobora gutera imbuto, kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi, muri aba bantu hakaba harimo n'umukozi ushinzwe umutekano, dukunze kwita umupolisi.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha abahinzi mu kwiteza, imbere twavuga nk'ubuhinzi guhinga amashaza guhinga ibijumba ibirayi ndetse n'amashu. Kuko n'ibihingwa bifasha abaturage mu kwiteza imbere mu uburyo bwo kubona amafaranga bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umuhinzi mu kwiteza imbere, akabasha kubona ibimutunga ndetse agasagura n'amasoko. Twavuga nko guhinga ibigori, ibishyimbo, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye bifasha umuhinzi mu kubona amafaranga.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umuhinzi mu kwiteza imbere, twavuga nko guhinga imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye nk'ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi byose, aho usanga bifatanya no korora amatungo amuha ifumbire akabasha guhinga akeza.

Ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu bikunze kugendana aho usanga ari ibikomoka ku matungo byifashishwa mu gufumbira imyaka, hari n'imyaka amatunda arya kugira ngo agire ubuzima bwiza, hari n'ibindi biryo by'amatungo bihingwa impande y' y'imyaka bifasha mu kwirinda isuri, noneho bikaba n'ibiryo by'amatungo akagira ubuzima bwiza.

Ubu ni ubuhinzi bw'imboga imboga n'ibiryo birinda indwara bifasha mu mirire kongera imirire imboga izi bazita inyabutongo zifasha mu kwirinda indwara ku bana, ku bantu bakuru.

Umuhanda ukikijwe n'imirima, imirima bigaragara ko irimo ibihingwa by'icyatsi, hejuru y'iyo mirima hakaba hari imisozi miremire, igaragara nk'aho nayo iteyeho ibintu wareba hejuru mu kirere, ukabona higanjemo ibicu by'umweru bigaragaramo byatanga imvura.

Imibyare iri hantu umwe muri wo ufite igitoki bigaragara ko iyo mibyare idakoreye neza amakoma yo mibyaramwe bikaba bigaragara ko yagiye yangirika acikamo kabiri, muri iyo mubyare hakaba haramezemo n'ibindi biti by'amoko agiye atandukanye.

Urubuto ruteye bigaragara kore aribwo rukiva mu kinazo cyarwo, rukaba rukikijwe n'ubutaka wagira ngo rurasasiye, urwo rubuto rukaba ari urubuto rufite amababi y'icyatsi, amababi akaba afite imigongo igiye ihuriyeho aho urubuto, aho amababi azamukira.

Umwuga w'ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu kubona ibiribwa ndetse bagasagurira amasomo ahanini bikorwa n'abantu bo mu cyaro.

Ibigori bikiri mu murima, bigaragara ko ibyo bigori byeze neza, bikaba amahundo yabyo agifashe ku biti byabyo, biragaragara ko ikigori kimwe cyagiye giheka ibigori bitatu.

Ikigori gihagaze mu murima bigaragara ko gishobora kuba keze. Ikigori kikaba kiri mu mabara y'icyatsi n'ikigina, hirya yacyo hakaba hateye ibyatsi byinshi bigaragara ko ari nk'ibyonnyi byatangiye kumera muri uwo murima bitewe n'uko imbuto zatewemo zeze.

Umurima uteyemo ibigori bigaragara ko byasaruwe, hatangiye kumeramo ibindi byatsi bisa nk'ibyonyi, urebeye hirya ukabona ibiti birebire hirya yabyo hari inzu ndende ni mu mabara y'umweru n'indi bitetegeye na yo iri mu mabara y'umweru, hejuru ifiteho agace bigaragara ko gashobora kuba kubakishije amatafari cyangwa amategura.

Umugabo uri mu murima afite umuhoro mu ntoki, wambaye ishati y'umweru hasi wambaye ipantaro y'umukara, bigaragara ko umurima arimo wasaruwemo ibihingwa byenda kumera nk'ibigori ,hirya hari umurima uteyemo imibyare, urebye neza hirya ukabona hameze nkahari ibihuru byijimye.

Ibirayi bigaragara ko byeze ku buryo bushimishije binini bifite isuku bigaragara ko bigaragara neza, ibyo birayi bikaba bigaragarira bifite ibara ry'ikigina ko byahinzwe neza bikitabwaho mu bihe byose mu kubisarura no kubi...

Ubuhinzi n'umwuga mwiza cyane ufasha abahinzi mu kubona icyo bakeneye twavuga ibiryo, amafaranga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ubuhinzi bukorwa kijyambere nibwo buhinzi bwiza kuko nibwo butanga umusaruro wikubye inshuro nyinshi.

Umubiri ukenera ibiryo kugirango ubashe gukora neza, niyo mpamvu usanga abahinzi bahinga ibiryo kugirango babashe kugira imbaraga ndetse basagurire n'amasoko, twavuga nk'ibigori, ibijumba ndetse n'ibindi, bifasha abaturage mu kugira imbaraga ndetse bakanakura mu gihagararo.

Amashyamba ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu kuko amashyamba atanga umwuka duhumeka, agakurura imvura, ikindi kandi amashyamba usanga acumbikiye inyamaswa zimwe na zimwe zo mu gasozi zikabasha kubaho neza, ikindi kandi amashyamba akurura abakerarugendo.

Igihingwa cya soya giteye gifite imisogwe gifite amababi yo hasi yatangiye kuba umuhondo, ayo hejuru akigaragara nk'aho ari icyatsi, inyuma yacyo hirya urebye hakaba hari amazu afite amabati y'umutuku ateye irangi ry'umweru, akikijwe n'ibiti birebire by'ubwoko bugiye butandukanye.

Imashini iri ahantu mu gishanga biragaragara ko hari hateyemo umuceri, iyo mashini ikaba ifite amabara atandukanye, yiganjemo ibara ry'icyatsi n'umweru, impande y'iyo mashini hakaba hari abagabo babiri bayihanze amaso, urebye neza iyo mashini ika iparitse mu gishanga cy'umuceri usa nk'uweze, inyuma yacyo hakaba hari ibiti birebire bisumba iyo mashini.

Ubucuruzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umucuruzi mu kwiteza imbere, akabasha kubona amafaranga, agatunga umuryango, twavuga nko gucuruza imbuto, ibiribwa ndetse n'indi miti itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Umurima utemba ibihingwa, bigaragara ko bishobora kuba ari nk'urusinda cyangwa se ibindi bihingwa byenda kumera nk'urusenda. Ibyo birihingwa bika bigaragara ko bigeze igihe bifite imiteja hejuru cyangwa se imisogwe. Nkuko bigaragara biba biteye mu murima munini.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane. Ni umwuga ufasha umuhinzi kwiteza imbere, akihaza mu biribwa, agasagurira ndetse n'amasoko. Ibiribwa twavugamo: ibigori, ibishyimbo ndetse n'amasaka. Ibishyimbo cyane cyane ni ibiryo byiza kuko bifasha mu mikurire y'abana.

Imbuto nyinshi ziri ahantu hamwe bigaragara ko hashobora kuba harimo: amaronji, ibitunguru n'inyanya n'izindi z'amoko menshi, izo mbuto zikaba ziteye amabengeza mu kuzireba kuko zifite amabara atandukanye, zifite: umuhondo, icyatsi n'umutuku, izindi zikajya kwenda gusa nk'ama oranje.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umuhinzi mu kwiteza imbere akabasha kubona ibitunga umuryango ndetse akabasha no kwizigamira twavuga nko guhinga ibirayi, ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye byera bikazana amafaranga.

Ishyamba rinini, ririmo ibiti byinshi, birebire, binini, bifite ibara ry'icyatsi, hejuru byatangiye kuzanaho ibara rigaragara nk'umuhondo, inyuma yabyo urebye neza ucengeza amaso, biri kugaragara nkaho hari ibihu byinshi.

Ibidukikije bidufasha mu bintu byinshi cyane, aho usanga tubikoresha mu byo dukuramo ibyo kurya , kubakisha amazu ndetse n'ibitunga amatungo; hari amashyamba, hari inzu ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ibidukikije ni ingenzi cyane, kuko ni byinshi cyane kuko hari ibikurura ba mukerarugendo. Hari n'ibidukikije biduha ibiryo, twavuga nk'ibiyaga biba birimo amafi, n'ibindi binyabuzima biba birimo intungamubiri.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, amadarubindi y'umukara, wambaye umupira ufite ibara ryenda kuba icyatsi akaba afashe ku ngofero ye, akaba ahagaze ahantu bigaragara nk'aho ari mu ishyamba ririmo ibiti birebire, ibiti birebire bifite inyuma amabara y'icyatsi.

Ikibaya cyiza kirimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ariko bigaragara neza. Hejuru yacyo hakaba hari ibicu byinshi byiganjemo iby'umweru, iby'ubururu, hejuru y'icyo kibaya hakaba gikikijwe n'imisozi ibiri yose ireba muri icyo kibaya.

Imisozi myiza iteye amabengeza iriho ibiti bigaragara neza by'icyatsi birebire inyuma yayo hari ibihu byinshi bigaragara nk'aho imvura igiye kugwa, ibyo bihu bikaba byiganjemo iby'umweru n'ubururu.

Ubuhinzi ni wo mwuga ukorwa n'abaturage benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko usanga abaturage benshi bakora umwuga w'ubuhinzi twavuga nk'ubuhinzi bwo guhinga imbuto, imyaka, imboga ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Amashyamba ni ingenzi ku buzima bwa muntu kuko amashyamba atanga umwuka duhumeka, agakurura imvura abahinzi bakabasha guhinga bakeza, ikindi kandi amashyamba acumbikira inyamaswa zimwe na zimwe z'agasozi zikabasha kugira ubuzima bwiza.

Amashyamba ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kuko amashyamba atanga umwuka duhumeka, agakurura imvura abahinzi bakabasha guhinga neza imyaka yabo ikera cyane, ikindi kandi amashyamba acumbikiye inyamaswa zimwe na zimwe zo mu gasozi zikabasha kugira ubuzima bwiza.

Ibiti birebire, biteye mu gace kamwe, bicecitse, byinshi, bigaragara ko byakuze, bigeze ku gihe cyo kuba byasarurwa, hejuru yabyo hakaba hagaragara nkaho hari ikirere cy'ubururu.

Mu Rwanda dufite ubuhinzi bwa kijyambere, aho usanga ari ahantu hahingwa imyaka hakitabwaho, noneho aho hantu izuba ryava ritagwa, imvura yagwa itagwa ugasanga harimo imyaka yeze kandi imeze neza, iryo n'iterambere igihugu cyacu cyagezeho cyo kubasha kongera imbaraga mu buhinzi.

Indabo nziza cyane ziteye mu buryo bwa kijyambere, ziteye amabengeza mu kuzireba zikaba ziri mu mabara agiye atandukanye, umutuku, icyatsi, umweru n'izindi zenda kuba umuhondo, aho ziri hakaba hubakiye neza bikaba bigaragara ko ari indabyo zitaweho kuzireba bikaba biteye amabengeza.

Uyu ni umusaruro uturuka mu buhinzi, urabona ko ari inyanya ariko zangiritse, urabona ko hano umuhinza aba yahombye, ni bimwe batwigisha ko umuhinzi agomba kwitwararika mu buhinzi bwe.

Ababyeyi babiri bambaye ibitenge bifite amabara atandukanye, bifite amabara y'umuhondo, umutuku, akaba yambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi afite n'umusatsi bigaragara ko ari muremure, aba babyeyi bika bigaragara ko hari imbuto bashobora kuba bari gusoroma cyangwa kwitaho.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha abahinzi mu kwiteza imbere, twavuga nko guhinga ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi, aho usanga iyo byitaweho neza, tubasha kubibagarira, bigakora umusaruro ukikuba inshuro nyinshi.

Mu gihugu cyacu dusanga mo imyuga itandukanye hari umwuga w'ubuhinzi twavuga guhinga imboga mu guhinga imbuto ndetse mu Rwanda basigaye bahinga insenda ziribwa zikoherezwa mu nganda zo mu Rwanda.

Imbuto nyinshi zirambitse ahantu bigaragara nk'aho ari nko ku meza, izo mbuto zikaba ziganjemo inyanya, ibihaza, amacunga, bikaba bigaragara ku maso, izo mbuto zikaba ziteye amatsiko, kuba wazirya bigaragara ko ari imbuto zikiri z'umwimerere.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umuhinzi mu kwiteza imbere, hari uguhinga kijyambere aho usanga abaturage buhira imyaka igihe k'izuba noneho igasanga ifite itoto wagira ngo ni mu gihe k'imvura.

Umugabo ufashe umupira wifashishwa mu kuhira, akaba ari kuhira imyaka mu murima umugabo akaba yambaye imyenda y'umutuku, umupira akaba uri mu ibara ry'ubururu, hirya ye gato hakaba hari ibiti birebire, wareba hirya ugahita uhabona umusozi muremure nawo uteyeho ibiti.

Kuhira ni igikorwa gikorwa n'umuhinzi aho yuhira imyaka mu gihe cy'izuba imyaka ikabasha gukura neza nko mu gihe cy'imvura ugasanga byongeye umusaruro ukikuba inshuro nyinshi kubera hakozwe igikorwa cyo kuhira.

Uyu ni umuhinzi, ari gufuhira ibigori mu buryo bwo kwicamo udusimba tuza kwangiza ibigori tuibirya bikuma ugasanga umusaruro uragabanuke.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane ufasha abaturage mu kwiteza imbere, ariko iyo ubyitayeho ugafuhira imyaka, ukica udukoko tuba dushaka kurya iyo mwaka, ureza umusaruro ukikuba inshuro nyinshi cyane, bisaba kuba imyaka wayitayeho ukarinda n'indwara.

Umugabo uhagaze ufite umupira mu ntoki, uwo mupira ukaba ufite ibara ry'ubururu bigaragara ko ari kuhira imyaka, uwo umugabo akaba yambaye imyenda y'umutuku, hirya y'uwo mugabo hakaba hari ibiti bigerara kuri bitatu cyangwa se birenzeho.

Ubu n'ubuhinzi bw'ibigori, n'ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bwongera umusaruro, umusaruro ukikuba incuro nyinshi, bufashwa mu kuhira, mu kurinda imyaka indwara zitandukanye, ubu buryo bwifashishwa mu Rwanda mu kongera umusaruro mwinshi w'ibikomoka ku buhinzi.

Umubyeyi uhetse umwana, umubyeyi akaba yambaye ijipo y'umukara, yambaye ingofero y'umukara, yambaye umupira uri mu mabara y'umweru n'umukara, akaba afite umupira wifashishwa mu kuhira imyaka mu ntoki ze, hirya ze hakaba umusore na we wambaye imyenda y'umukara.

Ubuhinzi ni ubutunze abantu benshi cyane, aho usanga wateye imbere cyane, twavuga nko kuhira ukoresheje ikoranabuhanga, udakoresheje imbaraga, ukoresheje ibikomoka ku mashanyarazi imyaka igakura neza.

Umugabo ufite umupira wuhira amazi akaba yambaye imyenda y'umukara, akaba afashe umupira mu ntoki bigaragara ko ari kuhira iyo myaka, umupira ukaba ufite ibara ry'ubururu, amazi akaba ari guturuka mu mupira yiterera hejuru agenda agwa muri iyo myaka ari kuhira.

Umusozi mwiza cyane uriho ibiti by'icyatsi bigaragara, hejuru kumusozi hakaba hari igicu cyinshi cyiganje kigaragara gishobora kuba cyatanga imvura mu gihe runaka.

Ikibaya kigaragara nk'aho giteyemo imyaka itandukanye, hakurya yacyo hakaba hari imisozi miremire, iriho ibiti bitandukanye, hakaba harimo n'imisozi miremire cyane, wareba hejuru mu kirerere ukabona ikirere cyijimye cyane wagira ngo gishobora kuba cyatanga imvura.

Ubutaka buhurije hamwe buteye ibihingwa bigaragara nkaho ari iby'ubwoko bumwe, inyuma yabwo ku musozi hakabamo hagati harimo amazu make make, harimo ibiti ku musozi hejuru hirya yabyo hejuru hakaba hari kugaragara ibicu byinshi byiganjemo, ubururu bigaragaramo bishobora kuba byatanga imvura.

Ikibaya kigari bigaragara gishobora kuba giteyemo ibihingwa by'ubwoko bumwe. Muri icyo kibaya hagati bigaragara ko hamanutsemo umugezi utwara amazi. Aha ikibaya kikaba gikikijwe n'imisozi miremire iteyeho ibiti hirya urebye neza ukabona umusozi muremure gusa n'ikirere.

U Rwanda barwita igihugu cy'imisozi igihumbi, kubera rugizwe ahanini n'imisozi ariko hari aho dusanga ibibaya, tugasangamo ibiyaga ndetse n'amazi magari ariko ahanini barwita urw'imisozi igihumbi, kubera rugizwe n'imisozi irukikije.

Umurima utewemo ibihingwa by'imibyare, muri iyo mibyare bikaba bigaragara ko harimo ibindi ibiti byinshi bishobora kuba atari imibyare, urebeye hakurya hashobora kuba hameze nk'ahantu hari ikiyaga cy'amazi, wareba hejura mu ijuru harimo ibicu byiganje bigaragara ko bishobora gutanga imvura.

Abantu bari hafi y'ibiraro wagira ngo ni iby'amatungo, ashobora kubamo nk'ingurube, abantu, umwe muri boba ahagaze, uhagaze akaba yambaye umupira w'umweru, undi akaba asa nk'uwicaye, hirya hakaba hari ibiti birebire bisumba izo nzu, urebye kurundi ruhande hirya hakaba hari ibyatsi.

Imisozi bigaragara ko ubutaka bwayo bwahurijwe hamwe iteyeho ibihingwa bigiye bitandukanye, iyo imisozi ku ruhande rumwe hakaba hari ibiti bimeze nk'ishyamba, warebera hirya mu misozi hagati ukabonamo imisozi yubatsemo inzu nkeya z'abantu, hejuru wareba hejuru y'imisozi hakaba ari igicu kiganje ihagakwa gishobora gutanga imvuva.

Umusozi uteye ibihingwa bigiye bitandukanye, bigaragara ko uwo musozi uriho ibihingwa byinshi kuko uwo umusozi uragaragara nkaho hari icyatsi wose, hirya y'uwo musozi hakaba hari indi misozi isa nkaho itagaragara neza, hejuru yayo hakaba hari ibicu byinshi bicucitse bigaragara nkaho bishaka gutanga imvura.

Umusozi mwiza cyane wahurijweho ubutaka bigaragaza ko bwahujwe neza buteyeho ibihingwa bitandukanye, hirya y'uwo musozi hakaba hari undi musozi muremure wo uteyeho ibiti, wareba hejuru y'iyo misozi hakaba ibicu byinshi byenda kumera nk'ikirunga hejuru hakaba hariho ibicu bishobora kuba byiganje bishobora kuba byatanga.

Imisozi miremire, iteyeho ibihingwa bitandukanye, iciho amaterasi, ikikijwe n'ibibaya, biriho icyayi, hejuru hari umusozi muremure umeze nk'ikirunga, mu kirere hari ibicu byinshi, bigaragara cyane.

Imisozi myiza iteye amabengeza, iteyeho y'ibihingwa bishobora kuba bigaragara ko byahurijwe, iyo misozi ikaba ari imisozi igiye irebana, miremire kandi itambitse ikomeje, iyi misozi ikaba iteyeho agace kamwe ibihingwa, ahandi hakaba hateyeho ibiti.

Ubworozi ni umushinga mwiza wo gufasha aborozi mu guterare imbere binyuze mu mukamo ku nka n'inyama ndetse n'amagi ku nkoko ndetse n'inyama ku ngurube.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umworozi mu kwiteza imbere akabasha kubona ibikomoka ku matungo, twavuga nk'amata, amagi ndetse n'inyama ikindi kandi abasha kubona ifumbire, ifumbire yifashishwa mu buhinzi, aho umuhinzi uyikoresheje abasha kubona umusaruro mwiza.

Umwuga wo korora ni umwuga mwiza cyane ku gufasha abaturage mu kwiteza imbere twavuga nko korora: inka, intama, ingurube n'ihene, bifasha umuturage kwiteza imbere ndetse akaba yabona ibyiza biziturukaho twavuga nk'amata, amagi n'inyama akabasha no gusagurira amasoko.

Ingurube y'umweru ifite umurizo muremure, ifite amatwi atendera, ifite amabwabwa cyangwa se amabere yayo, yakuze bigaragara ko ishobora kuba ihaka, iyo ngurube ikaba ihagaze ku kiraro cyayo irebesheje umunwa hasi.

Inkoko nyinshi ziri mu kiraro cyazo, bigaragara ko zorowe neza ,harimo umukozi ushinzwe kuzitaho wateruye inkoko imwe, izo nkoko zikaba ziri mu kiraro kikaba ari cyiza, hakaba harimo uburiro bw'inkoko bufite amabara y'umutuku izo nkoko nazo zikaba zifite amabara yenda gusa nk'itaka, bikaba bigaragara ko izo nkoko ari nziza ku maso rwose.

Inka nziza cyane za kinyarwanda, zifite amahembe maremare bigaragara ko ari iza kinyarwanda. Bigaragara ko ziri mu rupangu, abakozi babigenewe kuvura amatungo, bigaragara ko bari kuzitaho bazikorera ibintu bitandukanye, harimo wenda nko kuziha imiti, kuba bazivura uburwayi butandukanye, abakozi bakaba bambaye imyenda y'ubururu, inkweto z'umweru, umwe muri bo akaba yambaye ingofero y'umweru.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umworozi mu kwiteza imbere, akabasha kubona ibikomoka ku matungo, twavuga nk'amagi amata ndetse n'inyama ndetse n'ifumbire byifashishwa mu guhinga noneho imyaka igakura.

Ubu n'ubworozi bw'ingurube, ingurube n'amatungo meza atanga inyama, aborozi benshi barayorora kuko yunguka vuba, iyo abyaye abwagura utwana twinshi noneho n'umworozi yatugurisha akabasha gukuramo amafaranga menshi akiteza imbere agatunga umuryango we.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane, kuko ufasha umworozi mu kwiteza imbere, twavuga nko korora inka, intama, inkoko ndetse n'ibindi byinshi, aho umworozi abasha kubona ibikomoka ku matungo, twavuga amagi, inyama ndetse n'ifumbire, yifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane aho ufasha umworozi mu kwiteza imbere, twavuga nko korora inka, inkoko ndetse n'andi matungo atandukanye aho umworozi abasha kubona ibikomoka ku matungo twavuga nk'amagi, inyama ndetse n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Inkoko ziri hamwe bigaragara ko zishobora kuba zorowe mu buryo bwa kijyambere. Izo nkoko bikaba bigaragara ko ziri mu kizu cyazo, hakaba harimo aho zirira, zimwe zihagaze hejuru ngaho zirira, izindi ziri imbere, izindi zizengurutse icyo gikoresho bifashisha bazigaburira, izo nkoko zose zikaba zifite ibirokoroko by'umutuku.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha abantu mu kwiteza imbere, twavuga nk'ubworozi bw'inka, inkoko, ingurube ndetse n'inkoko. Inkoko zitanga amagi, zigatanga inyama, tutibagiwe n'ifumbire.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umworozi mu kwiteza imbere twavuga nko korora inka, intama, ihene, ndetse n'andi matungo atandukanye aho umworozi abasha kubona ibikomoka ku matungo twavuga nk'inyama amagi amata ndetse n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Ingurube iryamye mu kizu cyayo, bigaragara ko ishobora kuba iri konsa ibyana byayo. Iyo ngurube ikaba ifite ibyana bishobora kuba bigera ku byana icyenda cyangwa umunani. Iyo ngurube iri mu kiraro cyayo ikaba yaryamye ifunze umunwa, irambuye amaguru, yagaragaje amabere yayo, kugira ngo ibyo byana byayo bibone uko byonka.

Korora ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umunturezi mu kwiteza imbere, akabasha kubona amafaranga ndetse akabasha no kubona ibikomoka ku matungo. Twavuga amata, inyama ndetse n'ifumbire byifashishwa mu buhinzi imyaka ikera neza.

Inka nziza cyane ziri mu rwuri zifite amabara atandukanye, harimo ibibamba, imisengo, amagaju, urwuri zirimo rugaragara neza, rurimo ubwatsi bwiza rurimo ibiti bitanga umuyaga, izo nka zikaba zigaragara nk'inka zitanga umukamo ku rwego rushimishije.

Ingurube ifite amabara atandukanye ifite amabara y'umweru, umukara yambaye iherena rigaragaza umubare wayo, iryamye mu kizu cyayo igaragara nk'aho ireba imbere, icyo kizu kikaba kirimo isasiro iryamyemo, muri make bikaba bigaragara ko iyo ngurube ari ingurube nziza.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere, borora imishwi igakura noneho bakayijyana ku isoko. Ubu bworozi ni bwiza cyane kuko umuntu ubukoresha usanga yiteza imbere agatunga umuryango we. Agatunga n'abandi baturage batandukanye kuko inkoko iyo zikuze zitanga amagi zigatanga n'inyama, rero ubu bworozi ni ubwakijyambere kuko butuma...

Ihene nziza cyane zifite amabara atandukanye harimo izifite amabara y'umukara hakaba n'izifite amabara y'umweru, hirya yazo hakaba hari abantu bameze nk'abashumba bazo bagaragara ko bashaka kuba bakurikirana ubuzima bwazo, akaba ari ihene nziza bigaragara ko zatanga icyororo.

Ingurube ifite amabara atandukanye, ifite y'umweru imbere inyuma hakaba havanzemo ibara ryenda kuba umukara, amatwi yayo akaba atambitse, ikaba ireba hasi wagira ngo irimo kurya, ikaba ihagaze mu kiraro cyayo cyubakishije ibiti n'imbaho bigaragara ko bifite ibara ry'ikigina.

Ikiraro cy'amatungo kirekire gifite amabara atandukanye, hasi gifite ibara ryenda kuba ikigina, hejuru kigaragara nk'aho gifite ibara ry'umukara, imbere yacyo hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi by'icyatsi, ikiraro kikaba cyubatswemo imbaho hasi hejuru kikaba cyubatswe n'amabati.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umworozi mu kwiteza imbere, akabasha gutunga umuryango ndetse akabasha no kwihaza mu biribwa. Twavuga nk'ibikomoka ku matungo, amata, inyama, amagi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bikomoka ku matungo.

Inkuru nziza cyane za kijyambere ziri mu kiraro cyubatse neza bigaragara ko harimo ubwenge mu kuba baracyubatse, imbere yazo hakaba hahagaze umuntu bigaragara ko ashobora kuba ari umukozi ushinzwe kwita ku buzima bwazo bwa buri munsi, izo nka zikaba ziri kurya ubwatsi.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umworozi mu kwiteza imbere, twavuga nko korora inka, ihene, intama ndetse n'inkoko. Aho usanga umworozi abasha kubona ibikomoka ku matungo twavuga nk'inyama, amagi ndetse n'amafumbire, yifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane kuko bufasha abantu mu kwiteza imbere twavuga nko: korora inkoko, inka, ingurube n' inkoko zitanga amagi zigatanga inyama ndetse zigatanga n'ifumbire.

Umwuga w'ubworozi n'umwuga mwiza cyane kuko mu gihe runaka umworozi aba yatangiye kubona inyungu byihuse, twavuga nko korora inka, inkoko ndetse n'ingurube. Inka zitanga umukamo, zigatanga inyama ndetse zikabyara n'izindi nyana zikororoka ku rwego rwo hejuru.

Umwuga w'ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha abaturage mu kwiteza imbere. Twavuga nk'umwuga wo guhinga umuceri, ibirayi ndetse n'ibindi. Bifasha abaturage kubona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko. Umuceri uratunganywa bakajyana ku ruganda noneho bakawutunganya ukagaruka umeze neza noneho abaturage bakabasha ku buryo nta kibazo.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha abahinzi mu kwiteza imbere ndetse bagafashasha gusarurira amasoko, twavuga nk'ubuhinzi bwo guhinga imbuto, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, ibigori, ibishyimbo, ndetse n'ibindi bifasha abahinzi mu kubona ibibatunga, ndetse bagasagurira n'amasoko.

Umwana w'umukobwa uri mu buhumbikiro bw'imbuto cyangwa se ingemwe z'ibiti, bigaragara ko afashe umupira uzanamo amazi, bigaragara ko ari gutera amazi muri ibyo bihoho birimo imbuto, inyuma ye hakaba hari imbuto ziri mu bihobo zameze zifite ibara ry'icyatsi, bigaragara ko zimeze neza.

Korora ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha abantu mu kubona ibikomoka ku matungo twavuga: inyama, amagi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, aho ubasha kubona ibibatunga bya buri munsi bakabasha no kubona amafaranga abafasha mu byo bakeneye byose.

Abakozi bahuguye kuvura amatungo babiri bambaye impuzankano yabo, isarubeti iri mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko bashobora gufata amase y'inka, kugira ngo wenda babe bakora ubushakashatsi runaka, cyangwa bapime nimba hari uburwayi runaka ifite, hirya hakaba hari umusozi uteyeho ibiti.

Abanyeshuri bari muri laboratwari bisa nkaho bafashe ubumenyi kugenda bareba muri mikorosikopi bapima ngo barebe ko babona ibitera indwara.

Umukozi wahuguriwe kuvura amatungo wambaye impuzankano ye iri mu ibara ry'ubururu, wambaye uturindantoki, akaba yambaye n'ingofero y'umweru, hirya ye hakaba hari urupangu rurimo inka igaragara ko bashobora kuba bagiye kuzivura n'abantu bari kumufasha kuba yavura izo nka, hirya hakaba hari umusozi uteyeho ibyatsi.

Inka z'inyarwanda zifite amahembe maremare, bigaragara ko ari inka za kinyarwanda nziza, ziri ahantu hameze nko mu rwuri hari ibiti birebire. Hirya y'izo nka, hakaba hari inzu ifite amabati y'umutuku, hafi y'amabati y'umutuku urebeye inyuma hakaba hari ibiti birebire bicukitse bisumba iyo inzu.

Amajerekani akase hejuru bigaragara ko ashaka ko yifashishwa mu kugaburira amatungo cyane cyane nk'inkoko cyangwa ingurube, ayo majerekani akaba afite amabara agiye atandukanye, umuhondo andi akaba asa n'umuhondo wijimye, hanyuma imwe muriyo amwe mu apfundikishije imifuniko y'umukara

Imbabura iri ahantu bigaragara ko hashobora kuba nko mu nzu y'inkoku cyangwa ahantu bororera imishwi ikiri mitoya, iyo mbabura ikaba ikikijwe n'ibikoresho bifashisha bagaburira inkoko ibyo bikoresho bikaba biri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hirya yabyo hakaba bigaragara ko ari ahantu hari inzu ikagaragara ifite amadirishya i akozwe n'ibyuma by'umutuku.

Ubworozi umwuga mwiza cyane ko gufasha umworozi mu kwiteza imbere, akabasha kubona ibimutunga ndetse akabasha no kubona ibikomoka ku matungo, twavuga nk'amata, inyama ndetse n'ifumbire, ifumbire yifashishwa mu guhinga, noneho umuhinzi akabona umusaruro mwiza cyane.

Ubworozi n'umwuga utunze abantu benshi cyane kuri iyi si, cyane cyane ubworozi bw'inka, inkoko, ingurube ndetse n'ihene. Inkoko zitanga amagi, zigatanga inyama ndetse zigatanga n'ifumbire yifashishwa mu gufumbira imyaka.

Igihugu kigira umuco wacyo hari ukuntu usanga buri gihugu gifite umuco gakondo twavuga nk'inka, imbyino, ururimi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bigaragaza umuco w'igihugu.

Itungo ryabazwe ryaryamishijwe ku meza hejuru bigaragara ko hari abantu bashoborakuba bari kurikoraho nk'ubushakashatsi cyangwa se ikindi kintu kijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, abantu bakaba bambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umworozi mu kwiteza imbere akabona amafaranga ndetse akabasha no kubona ibikomoka ku matungo twavuga: amata, inyama ndetse n'ibindi bitandukanye harimo n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi, umuhinzi akabasha n'umusaruro mwiza cyane.

Akagega k'amazi gafite ibara ry'ubururu, hacometsemo impombo nyinshi zitandukanye, iruhande imbere y'ako kagega hakaba hari igikoresho gipima ingano y'amazi yasohotse muri icyo kigega.

Ifoto igaragaza inyamaswa zimeze n'inyoni ziri mu mabara atandukanye, zifite amabara y'umukara n'amabara y'ikigina, aho ziri bikabigaragara ko ari ahantu hashobora kuba haravuye izuba cyane ibyatsi byaho bikuma.

Inyamaswa z'agasozi zikurura ba mukerarugendo noneho bakazana amafaranga bakayasigira igihugu, noneho igihugu kikabasha gukoreramo ibikorwaremezo abaturage bibafasha mu kwiteza imbere bakabasha kubona amafaranga.

Inyamaswa zo mu ishyamba zifite amabaratandukanye, harimo i zifite amabara y'umweru n'umukara, izindi zikaba zifite amabara ajya gusa n'itaka. Bigaragara ko inyamaswa imwe ishobora kuba iri gushaka kwica indi, indi ikaba iri kwirukanka iyihunga.

Mu bidukikije dusangamo ibiyaga, asangamo ibiti, turasanga nk'amashyamba, tugasangamo n'inyamaswa zitandukanye twavuga: inyoni, intare ndetse n'ibindi byinshi; usanga ahanini bikorana ba mu mukerarugendo bakaza kubisura bagasigira Igihugu amafaranga agiteza imbere.

Inyamaswa z'agasozi ni ingenzi cyane ku bukungu bw'igihugu kuko usanga zikora abakerarugendo baza kuzisura, bagasiga amafaranga noneho ayo mafaranga igihugu cyiyifashisha mu kubaka ibikorwaremezo, twavuga imihanda ndetse n'imiriro y'amashanyarazi.

Inyamaswa z'agasozi zifite akamaro cyane kuko usanga zikurura abakerarugendo bakaza kuzisura na bo bagasiga amafaranga igihugu kikabasha kuyakoresha mu kubaka ibikorwaremezo bitandukanye bifasha abaturage mu kwiteza imbere.

Inyamaswa z'agasozi ni ingenzi ku bukungu bw'igihugu kuko usanga zikuru ba mukerarugendo noneho bakaza kuzisura, bagasiga amafaranga, igihugu kikafashisha cyubaka ibikorwaremezo, twavuga nk'imihanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Inyamaswa yo mu gasozi iri mu ishyamba ikikijwe n'ibiti bifite amabara atandukanye iry'icyatsi, aho yicaye hari ibyatsi byiza byicyatsi iyo nyamanswa ikaba ifite ibara ryenda kuba ikigina, ifite amatwi ahagaze, amaguru yayo y'imbere arahagaze inyuma yayo hari kugaragara ikirere cy'ubururu.

Inyamaswa z'agasozi ni ingenzi cyane kuko usanga zikurura ba mukerarugendo na bo bagasigira Igihugu amafaranga, Igihugu kikabasha gukoramo ibikorwaremezo twavuga nk'imihanda, amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Pariki y'inyamaswa usanga ari' inyamaswa nyinshi zitandukanye zikaba zikurura abakerarugendo bakaza kuzisura hano bagasigira igihugu amafaranga.

Inzovu ebyiri ziri hamwe bigaragara ko zikuze ,imwe ihagaze ahantu mu byatsi, indi ihagaze ahantu ku butaka hadateye ibyatsi , hirya yazo hari ibiti byinshi urebye mu kirere bigaragara ko gikeye ,kigaragara ko ari ubufi.

Inyamaswa yo mu gasozi igaragara nk'aho ari imbwa, iri mu ishyamba yicaye hejuru y'igiti gitemye giciyemo kabiri, gikase neza kenda kumera nk'intebe, iryamye ikaba ifite amatwi ahagaze, ikaba iryamye umunwa wayo ukoze ku maguru y'imbere.

Inyamaswa ziri mu ishyamba zifite amabara y'umweru n'umukara. Ishyamba zirimo ririmo ibiti birebire. Bigaragara nk'aho bizitwikiriye. Inyamaswa zazo hakaba hari izindi ziri hirya yazo zigaragara nk'aho ari intare, zifite amabara y'umweru n'ikigina. Hasi muri urwo rwuri izi nyamaswa zimwe zirimo kurisha, izindi zirahagaze ziri kuzireba

Inyoni zo mu mazi zihagaze hejuru y'amazi ebyiri indi imwe iri mu mazi hasi izo nyoni zikaba ari nyoni tuzi ku bwoko bwitwa ibishuhe amazi zihagaze akaba ari amazi magari.

Kuri iy'isi dufite inyamaswa z'inkazi, inyamaswa zishobora kwangiza ubuzima bw'abantu niyo mpamvu abantu bazifata bakazikumira bakajya bazigaburira, kugira zirinde kugera aho abantu bari twavuga nka parike, hari n'abandi bazorora mu ngo zabo ariko ntizihure n'abantu.

Inyamaswa zo mu ishyamba bigaragara ko zishobora kuba ari intare zimwe ziryamye indi imwe muri zo ihagaze zose ziri kureba imbere bigaragara ko zifite amatwi maremare, amaso y'umukara, ku mazuru yazo hakaba hagaragaramo umurongo w'umukara, inyuma yazo hakaba hari ibyatsi.

Ibinyabuzima n'ibintu byiza cyane, kuko bitanga ibyishimo ku bantu bajya kubisura, twavuga impara, imparajye dusanga muri parike. Noneho zigakurura ba mukerarugendo baza kuzireba, bakishima, bagafotora, bagatanga n'amafaranga yubaka igihugu.